Muri bare bajya guserukiramo. Gusa baranywa, bakarya, barangiza bakajya kubyina, kwishima no kwidagadura. Iyo barangije kubyina, abajya mu mashambure bakaryama.

Muri bare habamo inzoga z'ubwoko bwose, habamo inzoga zitandukanye kandi ziraryoha gusa zitwara amafaranga menshi abazinywa babita abakiriya.

Muri bare habamo resitora, bateka neza cyane. Bateka ibiryo by'ubwoko bwose. Iyo bagutekeye ifi, bashyiraho: inyanya, ifiriti, ibitunguru ndetse n'imboga. Biba biryoshye ariko birahenda cyane.

Muri bare bacuruzamo inyama z'ubwoko bwose. iz'inka, ihene, ingurube, inkwavu, ninkoko. Iyo ushaka baranazigutekera bakazishyiramo ibirungo bitandukanye, ariko bishyura amafaranga menshi cyane.

Muri bare bateka ibiryo biryoshye cyane, bateka amafi akatiyeho inyanya, n'amashu ,n'ibirayi by'ifiriti birimo n'imboga, ibiryo by'aho biba bifite isuku, bigaragara neza cyane, gusa birahenda bigura amafaranga menshi.

Muri bare habamo amatara amurika neza cyane. Amurikira abakiriya, kugirango barebe neza ibyo bari kunywa n'ibyo bari kurya. Aba afite urumuri rwinshi cyane.

Muri bare bateka neza cyane. Ibiryo biba bifite isuku. Ifiriti ,inyama ndetse n'ibindi. Gusa ibiryo byaho birahenda cyane nubwo ubirya umeze neza.

Bare ihuza inshuti, abantu iyo bahasohokeye baraganira bakunungurana ibitekerezo. Habamo aho kuryama, aho kwishimishiriza, hakabamo n'ibyokunywa byinshi kandi byiza cyane. Abantu iyo basohokeyemo, barishima bagasabana bakidagadura.

Muri bare bacuruzamo ibintu byinshi cyane. Inzoga z'ubwoko butandukanye ndetse n'amafanta. bagusukira mu kirahuri, bakakwereka aho kwicara hatuje neza cyane. Bagufungurira na televiziyo bakakwereka ibyo ushaka byose.

Muri bare haba hari kugaragara neza cyane, bacuruza inzoga z'ubwoko bwose, hajyayo inshuti imiryango cyangwa se abavandimwe bakanwa bagasabana, ababicuruzamo baba ari beza cyane bagira amafaranga kuko zirahenda.

Muri bare ni heza cyane habamo intebe nziza, amakaro meza, inzoga nziza ndetse n'ibindi byiza, harisanzuye hafite isuku, hameze neza cyane, iyo abantu bagiyemo barishima bakanywa bakidagadura.

Mu maduka bacuruza ibintu bitandukanye cyane cyane impeta udukomo amasaro ndetse n'amasaha. Impeta bazambika abakobwa muri poropozo cyanwa se ku basezeranye, ziba ari nziza cyane ariko ziba zihenze.

Abakora amagare babita abakanishi, bakoresha ibyuma bitandukanye cyane cyane amasupana cyangwa se za senkenge, iyo bari kubikora bagaragara nabi kuko baba bambaye ibintu bitameshe.

Iri gare ritwara utuzigo duto duto, barijyana kuvoma bagahambiraho amajerekani, ritwara n'amavuta cyangwa se inzoga, ritwara abantu, rigatwara n'imizigo itandukanye.

Insina zera ibitoki byiza kandi biryoha. Abazihinga bagira amafaranga. Zivaho amakoma n'ibishagari n'ibirere. Hari ibitoki bateka nk'incakara barayirya, iraryoha cyane.

Mu maduka bacuruza ibintu bitandukanye cyane. Cyane cyane inkweto, hari izo baba barazikoreye, hari n'izo barangura. Zigiraga amafaranga menshi kuko barazisorera.

Ibiti bakunda kubitera hafi y'urugo, cyangwa se hafi y'inzu, cyangwa se hafi y'imihanda. Kugira ngo bitange igicucucucu, cyangwa se bitange imiyaga, bikurure n'imvura.

Amasoko atandukanye akunda kugira ibintu bitandukanye byinshi cyane. Bacuruzamo imigati, amakorogate, kotegisi, salisa, inyange, amavuta, n'ibindi bitandukanye. Ababicuruza bakunda gukoresha ibyapa bari kwamamaza. Kugira ngo abantu babimenye neza cyane.

Butike zibamo ubuntu bw'ubuconco bacuruza ibintu bitandukanye, cyane cyane voka, biswi, bombo, shikarete, uburindazi ndetse n'utundi duconco. Habamo udufaranga.

Imodoka ni nziza cyane irafasha. Nko mu bucuruzi bayifashisha bagiye kuranguriramo imikandara, inkweto, amapantaro, imipira n'ibindi. Bayifashisha bagiye gutembera nk'inshuti cyangwa se imiryango.

Abantu bakora imyuga itandukanye bakunda kwamamaza ibyo bakora bakoresheje ibyapa, cyane cyane abacuruza muri resitora nk'imigati, capati, ikirayi, burushete, inzoga na ji. Ibyo bikorwa muri bare.

Muri papeteri bacuruzamo ibikoresho bitandukanye nka buwate matematikari, amakava ya telefoni, impapuro, ama ajenda n'ibindi. Batera kandi impapuro ho kashe, abacuruzamo bakunda kwamamaza bakoresheje ibipuburisite.

Muri hoteri haba hariho inzoga z'ubwoko bwose, cyane cyane mitsingi turubo ndetse n'izindi banweramo, zigurishwa ku mafaranga menshi cyane kubera ko ziba zihenze.

Abacuruzi bakunda kwamamaza ibintu byabo. Babigaragaza bakoresheje ibyapa bishushanyijeho ibyo bakora. Bashyiraho na nimero zabo ku buryo wabashakiraho. Cyane cyane abacuruza ibikoresho bya elegitoronike.

Moto zitwara abagenzi ziba zifite kasike ebyiri nziza cyane, umugenzi yambara kasike kugira bimurinde umuyaga wo kuri moto, zirihuta kandi zigendera ku gihe.

Butike ni nziza cyane, bacuruzamo ibintu bitandukanye: nk'amafanta yo kunywa, inzoga zipfundikiye, inyanya, ibitunguru n'ibindi byinshi cyane, abahacuruza bakunda kuba bafite isuku nyinshi ,kuko barakubura buri uko bakiye umukiriya.

Moto irahenda cyane igura miliyoni ebyiri, ndetse na miliyoni eshatu, igira kasike ebyiri, iy'umumotari n'iy'umugenzi, igira retorovizeri, ndetse moto zigira n'amapine meza cyane.

Aba ajenti bacuruza amayinite, bagacuruza na za mobayilomani bohereza amafaranga kuri telefoni, bakorera Emutiyene mobayiro telefone netiwaka.

Abacuruzi bacuruza ibintu bitandukanye cyane cyane amakawa , ibyo kunywa, ibyayi ndetse n'ibindi bitandukanye . Babonaga amafaranga menshi cyane kubera ko ikawa ntabwo zikunda kuba ahantu ahariho hose.

Abasekirite ni abantu barinda ahantu hatandukanye cyane cyane kuri SAKO, kuri banki cyangwa se ku rugo rw'abakire baba bambaye iniforume y'inkweto, amapantaro, amashati n'gofero, baba bafite imbunda cyangwa se inkoni zikomeye.

Muri butike bacuruzamo utuntu twiza cyane cyane: utubombo, utubiswi, shikalete ,imyunyu ,amayinite n'ibindi bitandukanye: Abacuruza muri butique baba bafite udufaranga, kubera ko bagira ubuntu bw'ubuconsho.

Inkoko cyangwa se ayandi matungo, akenera ibyokurya biva mu bintu duhinga bitandukanye, cyane cyane ibigori, soya, indagara ndetse n'ibindi byinshi cyane, bizifasha gukura neza cyane kandi zigatera n'amagi menshi.

Avoka ni igiti cyera imbuto nyinshi. Izo mbuto zigira intungamubiri. Abantu bakunda kuzirya hejuru y'ibiryo cyane cyane iyo wariye avoka ugira uruhu rwiza kuko bazikoragamo n'amasabune.

Igisheke ni igihingwa cyiza cyane. Kigira vitamini kandi kikavamo n'isukari iryoshye cyane， abagihinga bagira amafaranga menshi，bagishyiraho amafumbire， kugira ngo kirusheho gukura neza cyane.

Mu maduka bacuruzamo ibyuma bya elegitoronike. Nk'amaradiyo, amakompiyuta, amatelefone, ibyuma bya gasete, amasharijeri, amayekuteri n'ibindi bitandukanye biba bifite amafaranga menshi pe!

Basiketi koregishenizi，zikunda kuba zirimo ibikoresho bya gakondo，cyane cyane，imivure， imbehe， imidaho， imyuko， amasekuru，uduseke n'ibindi byo mu muco wa kinyarwanda.

Kwamamaza ni byiza cyane bituma abantu bamenya aho hantu bakura ibintu bitandukanye, byinshi kandi byiza nk'abageni bituma bamenya aho bakura udutimba, impeta, imodoka z'ubukwe ndetse n'ibindi.

Mu maduka bacuruza ibintu bitandukanye， cyane cyane imyenda yo kwambara， y’abagabo， amashati，amakoti，imikandara，inkweto n'ibindi bitandukanye. Gusa bagiramo ibintu bihenda cyane.

Abadozi bagira imashini zo kudoda imyenda itandukanye. Izo mashini ziba zifite urushinge rukoranye nazo. Zigira kandi aho bakandagira bari kudoda. Bagira n'amapasi yo gutera imyenda, iyo barangije kuyidoda.

Mu isoko bamanikaho ibyapa byamamaza ibyo bacuruza, ibyo byapa bashiraho na nimero zabo za telefoni, kugira ngo urababura abahamagarireho, n'izo bakoresha ku mbuga nkoranyambaga.

Amatara yo ku mihanda acanira abaturage, abagenzi, ndetse n'abandi batandukanye, b aramurika cyane, ku buryo abantu bagenda bari kureba, nta cyabarya, cyangwa se ngo abagizi ba nabi babambure ibyo baba bafite.

Butike ni isoko ritoya ridufasha kubona ibyo dukeneye vuba habamo ibintu bitandukanye: nk'imineke ,amaronji ,inanasi ,amabase, amavuta n'ibindi bituma abantu babaho neza cyane.

Iyi mihanda ya kaburimbo iba ari myiza cyane. Iba ifite ah'abanyamaguru banyura, ndetse n'aho ibinyabiziga binyura. Igira ibice bibiri, ku buryo ibinyabiziga bihuye bihigamirana nta kibazo. Ariko ikunda kubamo impanuka nyinshi cyane.

Abacuruza MTN bagira amafaranga atubutse. Yitwa Mobayiro Terefone Netiwaka. Bohereza ama inite cyangwa se amafaranga kuri mobayiro mane, babaho neza cyane.

Abacuruza amakawa baba abakire cyane. Bagira amafaranga menshi kuko akunda koherezwa hanze y'igihugu abamo kandi intungamubiri nyinshi cyane.

Muri butike bacuruzamo ibintu byinshi cyane, imiceri, Kawunga, amavuta, inzoga zo kunywa, amagi, gaze, amazi yo kunywa, n'ibindi byinshi cyane. Abacuruzamo bagira amafaranga, bakagira na fagitire ya Ibiemu.

Muri farumasi bacuruzamo imiti itandukanye y'ubwoko bwose, haba harimo umuganga arasuzuma kandi akanavura, iyo ugiye kugura iyo miti aguha na fagitire. Baba bafite isuku ihagije.

Mu maduka ni heza cyane. Habamo ibintu bitandukanye， imyenda， inkweto， ndetse n'ibindi. Bacuruza amashati， imipira， amapantaro， baba babyambitse za maneke， ziba zifashe nk'abantu.

Butike ni akazu gatoya， gakunda kuba kari muri karitsiye zitandukanye. Bacuruzamo ibintu byose， hakunda kugurirwamo n'abantu bahaturiye， cyane cyane，amakara， ibitoki，ibirayi，imboga n'ibindi bitandukanye.

Baro ni nziza cyane, bazikinisha mu mikino itandukanye nk'imikino y'maboko iy'amaguru iy'intoki ndetse n'iyindi. Zigira amabara atandukanye, ubururu, umukara, umwe ni icyatsi n'umutuku

Butike bacuruzamo ibintu bitandukanye kandi byiza. Balo, borosada, bandana, amavuta, ga zo koga, amasaha n'ibindi bitandukanye. Bacuruzamo n'ingofero zo kwambara z'abagabo. Ababicuruza baba bafite amafaranga menshi cyane.

Mu masoko atandukanye bacuruzamo ibintu byinshi cyane. Ibikapu, amashuka amasume, ndetse na amasileyibage. Bagira amafaranga menshi kuko birahenda cyane.

Amata ni meza cyane araryoha, hari amata bita aya Mukamira. Agira vitamini n'intungamubiri, akuza abana kandi araryoha cyane.

Habaho salo zitandukanye. Hari izikora inzara, izikora imisatsi, izoza mu mutwe ndetse n'izogosha . Zidufasha gukora isuku cyane cyane ku mibiri yacu.

Muri kenkayori bacuruzamo ibikoresho by'ibyuma bitandukanye, nk'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, amapine y'amagare ndetse n'ibindi bitandukanye. Insinga zitwara umuriro ziri kuwujyana mu duce twose tw'igihugu.

Amasoko aba meza cyane abamo abantu batandukanye cyane cyane abaguzi ndetse n'abagurisha. Bacuruza ibintu byinshi birimo: indobo, amabase, imyenda, inkweto, amafu ndetse n'ibindi bitandukanye. Amasoko aba meza cyane.

Abacuruza bakunda kwamamaza bakoresha ibipapuro cyangwa se amaradiyo. Abacuruza ibintu bitandukanye barabyamamaza kugira ngo abantu babimenye bamenye n'aho bakorera.

Amagare aba meza cyane atwara abantu, agatwara imizigo ndetse abantu bakanayagendaho. Iyo ufite igare uba ufite amafaranga , kandi riba ribangutse kuritwara.

Muri butike habamo ibintu bitandukanye bacuruga: Amabase, amasalade, akawunga, umuceri, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye cyane. Bikunda kugira amafaranga yo kurangura ibindi.

Butike bacuruzamo ibintu bitandukanye，cyane cyane imiti yo muri tuwarete， ibibiriti，amatabi， amaji n’imigati. Abacuruzamo baba bafite amafaranga， kuko barabigurisha.

Amasoko aba ari meza cyane. Aba arimo ibintu bitandukanye habamo amavuta, inkweto, imyenda, puberi, imikoropesho, ibiroso ndetse n'ibindi byinshi cyane barabigurisha ku mafaranga make cyane.

Hari amabare aba afite inzoga z'ubwoko butandukanye, nka henikeni ni ikinyobwa kinyobwa n'abantu benshi, gusa kirasindisha, kiba kiri mu icupa risa n'icyatsi, ryanditseho henikeni, mu mabare bagira amacumbi, aho kurira, ndetse n'aho kogera.

MTN yitwa mobayilo terefone netiwaka. Igira abakozi bitwa aba ajenti, batanga amayinite bakohereza amafaranga kuri mobayiromani.

Mu masoko bacuruza ibintu bitandukanye nka matera, amasogisi, amasukora, udutambaro ndetse n'ibindi byinshi cyane. Matora baziryamaho zigaragaraho amashashi azifunitse, zikunda kuba zihenze cyane.

Abagabo bakunda kwambara neza cyane. Cyane cyane iyo bambara amakositime, n'amakaruvati, na congo, icyo gihe baba bitabiriye nk'inama, cyangwa se bagiye nko mu bukwe. Baba bambaye neza cyane.

Imodoka ni igikoresho cyiza cyane kigira amafaranga menshi, bagitembereramo ba nyiracyo ,igira amapine meza cyane kandi banajya kukiguriramo ibintu bitandukanye cyane cyane ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya.

Muri hoteri bagira ameza yo kuriraho no kunyweraho. Aba ari meza cyane. Bagira n'intebe zo kwicaraho, ziba ari nziza. Haba harimo umwanya uhagije hagati y'imeza imwe n'izindi. Abajyamo bishyura amafaranga menshi cyane.

Mu cyumba ni ni heza cyane, habamo igitanda, matera, imisego, inkweto na esuyime yo kwihanaguza. Ku gitanda abantu baraharyama, bakarara neza, bumva nta mavunane bafite. Iyo uryamye kuri matera wumva umeze neza cyane.

Amavase ni meza cyane, bayateguramo indabo, agira urugo neza cyane. Iyo ba bayashizemo indabo, haba hari kugaragara neza cyane.

Mu masoko habamo abantu batandukanye, baba bari kugaragara neza cyane, hari abo bita abaguzi n'abagurisha, bagira ibintu bitandukanye, nk'ibirayi, ibigori, amayinite, ibijumba, n'ibindi bitandukanye cyane.

Umutwazi aba azi gutwara ibinyabiziga byose yubahiriza amategeko yo mu muhanda, akagendera ku muvuduko wagenwe ntiyihute, kandi agacana amatara. Atwara imizigo ndetse n'ibindi byinshi.

Mu isoko habamo ibintu bitandukanye， imyenda yo kwambara， cyane cyane imipira， amakabutura，amajipo， ibitenge' kuba mama， ndetse n'amapantaro ku bagabo， ziba zihendutse cyane.

Mu masoko bacuruzamo ibintu bitandukanye, korogati, borosada, amavuta, ji zo kunywa, kotegisi, situruwaya n'ibindi bitandukanye. Abacuruzamo baba bafite isuku ihagije, babishyurira no kuri telefone.

Mu isoko habamo ibintu bitandukanye. Cyane cyane abacururiza mu bisima. Habamo puberi, indobo, ibirayi, amakara, ibijumba n'ibindi bitandukanye. Haba hariho imyanya yo kunyuramo.

Mu masoko bagurisha ibintu bitandukanye. Bagurishaga imyenda, inkweto, ibyo kurya nk' ibirayi, ibijumba, ibigori n'ibindi, haba harimo abacuruzi n'abaguzi, hajyayo n'ibisambo byiba abandi.

Mu masoko bacuruzamo ibintu bitandukanye cyane cyane nk'imyunyu yitwa habari. Ikoza ibiryo, iraryoha cyane. Igura amafaranga makeya.

Mu isoko bacuruzamo ibintu bitandukanye inyanya, avoka ,ibireti cyangwa se pwavuro. Inyanya baziteka mu biryo zikabitukuza ndetse zikanabiryoshya.

Mu masoko bacuruza ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye, biba bifite ibiciro bitandukanye bacuruza:ibikombe, amasafuriya, amabase, ibirangiti ndetse n'ibindi bitandukanye, ibirangiti birahenda cyane.

Habaho imbuto nyinshi nziza kandi zitandukanye. Nk'igifenesi. Kigira ibituri mwo imbere biryoshye kandi byiza. Kigira amata iyo kiteze, cyangwa kidahiye.

Mu isoko hacururizwamo ibintu bitandukanye cyane cyane imbuto nk'amatunda, amaronji, indimu, imineke ,amapapayi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ababicuruza bagira amafaranga menshi cyane kuko barayagurisha.

Mu masoko kandi habamo nibintu bitandukanye. Bacuruzamo salade, amasabune, amavuta, pehashi, ibibiriti, ndetse nibyogesho by'amasafuriya. Abacuruzamo baba bafite amafaranga menshi cyane.

Mu isoko bacuruzamo ibintu bitandukanye habamo:imiteja, karoti, insenda, ibirayi, amashu, ibihaza ndetse n'ibindi bigira amafaranga, ababicuruza baba bicaye ku gatebe.

Muri butike habamo ibintu bitandukanye: ibirungo, amavuta, borosada, omo, imakasi, amatoroshi ndetse n'ibindi byinshi cyane, habamo kandi imyanya mitoya kuko hose haba huzuye ibintu.

Mu isoko habamo abantu batandukanye bagurisha n'ibintu bitandukanye cyane cyane ibitenge, ibirondoni, amashuka, n'ibindi abagura ibyo ngibyo babidodesha ku batayeri babibadodera uko babishaka neza cyane.

Mu masoko atandukanye habamo ibintu byinshi cyane, habamo ibitoki, imyumbati, amashu ndetse n'abanyonzi baba babitwaye ku magare biri mu bitebo byabo, ababicuruza babaho neza kuko baba babigurishije, bakagira amafaranga atubutse.

M isoko bacuruza ibintu bitandukanye hari abacuruza za tungurusumu, inyanya ,ubunyobwa ndetse ibijumba ndetse n'ibitunguru ,tungurusumu ziravura zikiza amibe.

Muri butike bacuruzamo ibintu bitandukanye: supadipe, inyanya, amandazi n'amasukari ya irovo. Aba ari mu kamverope gapima ikiro kimwe, arahenda cyane gusa agaragara neza, araryoha.

Mu isoko habamo ibintu bitandukanye. Hari abacuruza imboga, imbuto ndetse n'ibindi. Bacuruza imboga harimo puwavuro, ibitunguru, tungurusumu, tangawizi, voka, pome, ibibiriganya n'ibindi byinshi cyane.

Omo idufasha kumesa imyenda igacya, ikanoga neza cyane. Iyo wayimeshesheje, uba ufite agahumuro kandi ukeye uri simati. Ugenda uri kumva umeze neza cyane.

Mu masoko bacuruzamo ibintu bitandukanye cyane cyane inyanya, ibitungu, puwavuro, kokombure, amavuta, ibirungo, omo, n'ibindi bitandukanye. Ababicuruza kandi baba bafite amafaranga yo kujya kuranguza ibindi.

Mu maduka niheza cyane. Habamo ibintu bitandukanye kandi byiza. Bacuruza ibikapu abantu batwaramo ibintu byinshi cyane cyane abanyeshuri babitwaramo ibikoresho by'ishuri. Bacuruza n'imyenda.

Mu isoko habamo ibintu bitandukanye cyane cyane ibirayi. Birahenda ariko biraryoha cyane. Ababigurisha bagira amafaranga menshi cyane nk'ababigemura kubera ko bikundwa n'abantu benshi.

Mu masoko habamo abacuruzi ndetse n'abaguzi. Bacuruzamo ibintu bitandukanye， imiceri， akawunga， imyunyu， ndetse n'ibindi byinshi cyane. Abacuruzi bagira amafaranga， kubera ko abaguzi bayabazanira.

Mu masoko bacuruzamo ibintu bitandukanye bacuruza amakaroni bayateka mu gitoki cyangwa se bakayateka yonyine, mayoneze, imigati ,imyunyu, amasalade, amavuta, ndetse n'amaji yo kunywa.

Mu isoko haba ari heza cyane. Hajyayo abantu batandukanye. Haba hafite umwanya wisanzuye, bacuruza imyuko, inkweto, amabase n'amabiswi ndetse n'ibindi byinshi cyane. Babona amafaranga menshi.

Mu isoko bacuruzamo amandazi cyangwa se imbada. Baragakora baga bagashira mu mabase. Bashiriramo uduti two gufatisha. Borosaho imifuka kugira ngo atandura.

Mu nyubako z'amatage habamo esanseri. Bazamukiramo bagiye mu duce dutandukanye. Ziba ari nziza cyane kuko bazigira isuku nyinshi kandi ihagije.

Mu maduka atandukanye hakunda kuba harimo ibikoresho bitandukanye cyane cyane amasharupe y'abagore, amamalete, imikandara, ibitambaro ndetse n'ibindi bigezweho. Imikandara bayambara mu mapantaro. Iba ikomeye cyane.

Amazi aba meza cyane mu mubiri w'umuntu. Iyo wayanyoye wumva ufite ubuzima bwiza, amaraso agatemba neza cyane. Arinda umuvuduko, akarinda n'izindi ndwara zose zo mu mubiri. Asukura amaraso.

Ibishyimbo biba byiza cyane. Iyo babitetse babyita gutsimba, bakagerekaho cyane cyane imyumbati, amateke, cyangwa se ibirayi. Amazi y'ibishimbo bayita amarongorwa. Ibishimbo biraryoha cyane.

Mu isoko habamo ibintu bitandukanye cyane cyane ibihaza, imineke, ibinyomoro n'ibindi byinshi cyane. Ibihaza biraryoha biba bisa n'umuhondo mwo imbere, babiteka hejuru y'ibiryo bikaba biryoshye cyane.

Mu masoko bacuruza ibintu bitandukanye, cyane cyane capati, keke, amandazi n'ibindi byinshi cyane. Abacuruzamo baba bafite amafaranga n'ubuzima bwiza kuko barabyirira.

Mu masoko haba ari heza cyane cyane aho bacuruza amatelefone. Bagira telefone z'ubwoko bwose simate fone ndetse na za gatushi, haba hariho amakaro hari umwanya uhagije kandi bazi kubaruraho bakaguha na sharijeri.

Abamotari batwara abantu babavana mu gace kamwe babajyana mu kandi. Baca amafaranga yo kugura esanse kandi menshi cyane. Baguhereza kasike ukambara bakagutwara wambaye kasike nziza cyane.

Ibigage ni byiza cyane, biraryoha, bihuza inshuti, kandi bigira amafaranga. Babikora mu masaka, birasindisha iyo unyweye byinshi.

Muri butike bacuruzamo ibintu bitandukanye. Ibirungo, udufuka two gutwaramo ibyo wahashye, amaparufe, amaji, inzoga zo kunywa, ndetse n'ibindi bitandukanye. Abacuruzamo baba bafite amafaranga menshi cyane.

Iduka riba ari ryiza cyane bacuruzamo ibintu bitandukanye cyane cyane amavuta. Habamo amavuta y'ubwoko bwose amavazerine, amaparufe, amasabune ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Amasafuriya ni ibikoresho dukoresha turimo guteka ibiryo nk'ibishyimbo，ibigori，ibirayi，indagara， tugashyushyamo n'amazi，tugatekamo n'ibyo kurya.

Mu isoko habamo ibintu byinshi kandi byiza bagura inkweto, amafu, amavuta ,amasukari ndetse n'ibindi, abantu baza kurema isoko baba bafite amafaranga cyangwa bafite ibyo baje kugurisha.

Mu soko habamo abantu batandukanye cyane cyane iry'ibisima. Bacuruzamo imboga, ibirayi, babikorera mu mabase cyangwa se indobo, babeteramo amasombe. Abacuruzamo bagira amafaranga kandi bagaragara neza.